Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.